Umukobwa wicaye hafi y'ivomo arimo araseka, ari kuvoma amazi, ayashyira mu ijerekani, iri mu ibase, inyuma ye hari umugozi uriho imyenda yanitseho.

Abantu bateraniye hamwe, harimo umwana bari gufasha gukorera ibido, umwe yambaye agapfukamunwa undi ari kubafasha gufotora.

Itsinda ry'abantu bateraniye hamwe bambaye impuzankano zimwe, bari kumwe n'abashinzwe umutekano, bafite igitambaro cy'umweru cyanditseho: "kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye".

Twirinde Korona virusi: gukaraba amazi n'isabune, kwambara agapfukamunwa, gushyira inkokora ku munwa, guhana intera hagati y'umuntu n'undi mu gihe bari kuganira.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'isaha ku kuboko, impande yabo hari intebe y'umukara n'igitambaro cy'umweru cyanditseho twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Urujya n'uruza rw'abantu abagore, abagabo bamwe bambaye imyenda y'icyatsi, abandi bambaye iy'umukara n'umweru bateraniye ku kigo nderabuzima.